Mtn mu Rwanda idufatiye runini aho usanga itanga akazi bamwe bagakora mu miyoboro yabo ikindi kandi bifasha abanyarwanda muri rusange kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga yabo ndetse no kuba babona uburyo bavuganamo n'abantu babo aho baba baherereye hose.

MTN mu Rwanda idufatiye runini, aho usanga abaturage bagana inyubako zayo cyangwa se abakorana na yo kugira ngo babe bakemurirwa ibibazo bitandukanye harimo nko kubitsa amafaranga, kuyabikuza cyangwa se kuba umuntu yavugana n'undi batari kumwe.

Abacuruzi bagira uruhare runini cyane mu gutuma Leta ibona amafaranga bitewe no kuba batanga imisoro, ayo mafaranga ashobora kuba yakwifashishwa mu kubaka ibikorwaremezo ndetse no gufasha abakene.

MTN mu Rwanda idufitiye umumaro munini cyane aho usanga abaturage bagana inyubako zayo bagamije kuba babitsa amafaranga cyangwa se bayabikuza kugira ngo bayakoreshe ikindi kandi idufasha kuba twavugana n'abantu igihe tubashaka cyangwa se bo badushaka.

Amashyirahamwe ajya yicara, akicara yo ubwayo ndetse n'abayobozi bayo n'abaterankunga babo bakarebera hamwe icyo bakora cyabateza imbere cyangwa se bakareba naho bageze mu bikorwa byabo.

Amashyirahamwe y'ubucuruzi agira umumaro munini cyane. Aho usanga abantu bishyira hamwe, bakarangura ibicuruzwa bitandukanye, bakaba bacuruza, bityo bakabona inyungu nyinshi. Ikindi kandi bashobora kwishyira hamwe bagafata inguzanyo, ishobora kubafasha mu bucuruzi bwabo.

Sacco igira uruhare runini cyane mu gufasha abaturage kwiteza imbere, aho usanga abantu bajyayo bakabitsayo amafaranga ariko kandi bakaba bahabwa n'inguzanyo bashobora kwifashisha mu mishinga yabo cyane cyane iy'ubuhinzi n'ubworozi.

Amabanki n'amakoperative na byo bidufatiye runini kubera ko bifasha abaturage kuba bakwizigama amafaranga yabo cyangwa se bakaba baguzamo amafaranga igihe bahuye n'ikibazo bityo bikabafasha kuba babona amafaranga mu buryo bworoshye bitabagoye.

Amakoperative n'amabanki ni ingenzi cyane kubera yuko ahuza abantu benshi batandukanye bityo bikabafasha kuba bamenyana kandi bakabana neza banafashanya. Ikindi kandi umuntu ashobora kuba yabitse amafaranga ye muri banki igihe hari ikintu ategura kuzakora ejo cyangwa se akaba yayaguzamo igihe ntayo afite.

Amashyirahamwe ni ingenzi cyane kubera yuko atuma abantu bakorera hamwe bityo umusaruro ukiyongera ni ngombwa yuko leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu gushishikariza abanyarwanda bose gukorera hamwe ndetse no kuba bagana amabanki akabaguriza amafaranga bakoresha mu bikorwa byabo cyangwa se bakaba bakwizigama.

Amakoperative n'amabanki ni ingenzi cyane, aho usanga abahinzi bakorera mu makoperative bityo umusaruro ukiyongera. Ikindi kandi bashobora kuba bakwifashisha amabanki babika amafaranga yabo bazakoresha mu gihe kizaza cyangwa se baguzamo ayo bakoresha ibikorwa byabo bya buri munsi.

Amabanki n'amakoperative ni ingirakamaro cyane kubera yuko bifasha abantu gukorera hamwe kandi bakabaho bishimye babanye neza kubera ko baba bafite ikibahuje. Ikindi kandi ayo mabanki ashobora kudufasha kuba twabitsa cyangwa se tukabikura amafaranga yacu bityo tukabaho twishimye.

Amakoperative n'amabanki ni ingenzi cyane kubera yuko ashobora kuba yadufasha kuba yatuguriza amafaranga dushobora kuba twakoresha ibikorwa bitandukanye biratwungura. Ikindi kandi dushobora twabitsamo amafaranga yacu, igihe hari igikorwa turimo dutekereza kuzakora mu minsi izaza.

Mu mashyirahamwe hakunda gutangwamo ibihembo by'ishimwe, bigahabwa ababaye indashyikirwa ndetse n'abakoze neza muri ayo mashyirahamwe cyane cyane nk'iyo ari abayobozi cyangwa se bakaba baratanze ibitekerezo by'indashyikirwa, byatumye bose hamwe batera imbere.

Amashyirahamwe ni ingenzi cyane niyo mpamvu haba hagomba kubaho umunsi wo kuyizihiza abaturage bagasobanurirwa umumaro wo gukorera hamwe ndetse n'inyungu zabyo kandi bakaba banabishishikarizwa.

Amashyirahamwe ni meza cyane kubera yuko atuma umusaruro wiyongera cyane kandi abantu bakarushaho no gukorera hamwe no kungurana ibitekerezo, ikindi kandi abantu bashobora kuba babona inguzanyo biboroheye yo gukoresha mu bikorwa byabo ndetse bakaba bakwiga no kwizigama.

Amashyirahamwe agira uruhare runini cyane mu gutuma abayabamo bicara hamwe bakaganira bakarebera hamwe icyakorwa cyabungura bose ndetse bakanatekereza n'uko bashobora kuba babika amafaranga yabo ku mabanki ndetse n'uburyo bashobora kuba bakwaka inguzanyo hagamijwe kugira ngo biteze imbere.

Amashyirahamwe y'umuceri agira uruhare runini cyane mu gutuma tubona umusaruro w'umuceri mwinshi, aho dushobora kuba twakwihaza mu biribwa, tukaba twanawugurisha, bityo tukabona amafaranga.

Amabanki ni ingenzi cyane ku baturage. Kuko abaturage bifashisha amabanki mu buryo butandukanye. Bashobora kuyifashisha babitsa amafaranga yabo, cyangwa se bakayifashisha babikuza. Ikindi kandi amabanki bashobora kuyifashisha bishyura nk'amazi, umuriro, ndetse n'amafaranga y'ishuri.

Amakoperative n'ama banki ni ingenzi cyane mu baturage kubera yuko bibafasha kwizigama amafaranga yabo ndetse bakaba bafata n'inguzanyo zitandukanye, yaba iz'igihe kigufi n'igihe kirekire bityo bikaba byabafasha kwivana mu bukene ndetse bakarushaho no kuba batera imbere mu buryo butandukanye.

Amaduka ni ingenzi cyane kubera yuko adufasha kuba twagura ibintu byinshi bitandukanye kandi tukabigura tubiboneye ku gihe. Ikindi kandi mu gihe hari icyo twifuza kuba twagurisha, nabwo dushobora kuba twagana abo bacuruzi bakaba bakitugurira bityo bikadufasha kuba twabona amafaranga yo kugura ibindi dukeneye.

Amagi ni ingirakamaro cyane ku buzima bwa muntu kubera y'uko adufasha kwirinda indwara z'imirire mibi ndetse agakomeza kudufasha kugira ubuzima bwiza niyo mpamvu amaduka acuruza amagi ashobora kuba yabona abakiriya benshi bayagana.

Amaduka ni ingenzi cyane, kubera yuko afasha abanyeshuri kuba bagura amakaramu ariko kandi si n'abanyeshuri gusa, undi muntu wese ukeneye amakaramu ashobora kuba yayagurayo, si n'ibyo gusa kuko hacururizwayo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, bishobora gutuma abantu barushaho kubona ubuzima bwiza.

Amaduka acuruza amavuta yo kurya, ibirungo ndetse n'icyo kunywa nk'amafanta cyangwa se ibindi na yo agira umumaro munini cyane kuko abaturage boroherwa no kuba bagura ayo mavuta cyangwa se ibyo birungo biboroheye, badafashe urugendo rurerure.

Amaduka afatiye runini abantu bose kubera yuko dushobora kuyagana igihe dukeneye kugura nk'imyenda, inkweto, ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ni byiza cyane ko abantu benshi bashobora kuba bacuruza kuko na bo ubwabo bishobora gutuma bivana mu bukene ndetse n'abandi bakabona aho bahahira.

Amaduka acuruza ibyo kunywa harimo nk'icyayi, igikoma n'amata ndetse n'icyo kurya nk'imigati na yo ni ingenzi cyane kuko atuma abantu babona icyo kurya bidasabye yuko bajya mu maresitora, ni byiza yuko rwose aya maduka na yo aba ahari.

Amaduka na yo ajya agira umumaro munini cyane kubera yuko dushobora kuba twayagana tukabona ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'icyayi, imboga ndetse n'ibindi dushobora kuba twakwifashisha mu ngo zacu, dutegura icyo kurya cyangwa se icyo kunywa.

Abacuruzi bacuruza mu maduka, na bo bajya baganwa na benshi. Aho ushaka ibyokurya abagana cyangwa se akaba na we hari ibyo yagurishamo. Niyo mpamvu ari byiza yuko amaduka yegera abaturage.

Mu maduka y'abacuruzi habamo intebe, izo ntebe abacuruzi bo ubwabo bashobora kuba bazicaraho igihe bari mu gikorwa cy'ubucuruzi, ariko kandi n'ababagana bashobora kuba bazicaraho bakaruhuka.

Insengero zidufatiye runini. Aho usanga ziganwa n'abantu benshi, batekereza yuko bashobora kwakirirayo amahoro n'umutekano ndetse n'ibyifuzo byabo bikaba byasubizwa ariko kandi zidufasha no kuba tubana mu mahoro, abantu bakabaho batinya icyaha.

Mu gihe cya corona virusi insengero zakomeje gukora igihe icyorezo cyari kiri kugenda gicika imbaraga, aho wasangaga abagana insengero basenga bambaye udupfukamunwa, ariko kandi bashyizemo n'intera kugira ngo indwara itarushaho gukwira kwira.

Insengero zigira uruhare runini cyane mu kutwigisha iyobokamana, aho abantu bizera Imana kandi bakemera yuko bagomba kuva mu byaha bagakora neza kugira ngo bazayibone.

Insengero zigira umumaro munini cyane aho usanga abayobozi bazo batoza abayoboke kwambara neza, kugira ikinyabupfura ndetse no kwiyitaho ariko kandi bakabatoza kubaha Imana no kwirinda ibyaha bababwira y'uko umuntu ukora ibyaha atazabana n'Imana.

Insengero ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu kubera y'uko abantu bizera ko mu nsengero bashobora kuruhukiramo bakishima bakanezererwa kandi bagakemurirwa n'ibibazo bari bafite, ikindi kandi abantu bagiye mu nsengero bizera y'uko Imana yanga icyaha bityo bikadufasha kwirinda icyaha n'igisa na cyo.

Insengero zigira umumaro munini cyane ku bantu bose aho usanga abenshi bajya mu nsengero kugira ngo baruhuke cyangwa se bakajya mu nsengero kubera y'uko bizeye ko imana yabasubiriza ibyifuzo bafite bakabona amahoro, bakabona umutekano ndetse n'ibyishimo.

Ama hotel n'ama moteri ni ingenzi cyane, kubera y'uko adufasha mu kwakira abashyitsi ndetse no kuba twabahereza aho baruhukira, bityo rero abantu benshi bashobora kuba bashoramo amafaranga mu kubaka amahoteli, hagamijwe kuba twakwakira ba mukera rugendo ndetse tukabahereza n'aho baruhukira.

Amahoteli n'amamoteri biba biteguye neza. Aho usanga harimo intebe nziza n'amezaza agezweho, aho bakirira ababagana, bakabahereza icyo kurya n'icyo kunywa, bakanabaganiriza.

Amahoteli n'amamoteri agira umumaro munini cyane mu kudufasha kuba twakwakira abatugana, tubahereza icyo kurya n'icyo kunywa ndetse kandi tukaba twabahereza n'aho kuryama hameze neza, bityo bakaruhuka.

Amafunguro yo mu mahoteli n'amamoteli aba ateguye neza rwose ku buryo aba afite isuku nyinshi, ikindi kandi bategura neza ku buryo usanga ari indyo yuzuye umuntu wese kandi agahitamo icyo yifuza kuba yarya.

Amahoteli n'amahoteri ni ingenzi cyane kubera yuko bidufasha mu kwakira ba mukerarugendo bakabahereza icyo kurya n'icyo kunywa, bakabahereza naho kuruhukira, ikindi kandi ayo mahoteli atanga akazi ku bantu benshi cyane bikagabanya ubushomeri.

Amahoteli n'amamoteri ni ingenzi cyane kubera yuko adufasha kubona ahantu dushobora kuba twaruhukira, tukabona icyo kurya, tukabona icyo kunywa, tukabona n'aho dushobora kuba twaryama bityo tugakomeza imirimo yacu twishimye kandi turuhutse.

Amahoteli n'amahoteri biradufasha cyane kubera yuko bifasha abantu batandukanye kuba babona icyo kurya, bakabona icyo kunywa kandi bagahabwa n'icyo bashobora kuba baruhukira igihe bananiwe bityo bakaba bakomeza imirimo yabo bameze neza bishimye.

Amahoteri n'amamoteri aba yubatse neza afite n'ubusitani aho abantu bashobora kuba bakwicara bakaruhuka, si nibyo gusa kandi adutegurira icyo kurya n'icyo kunywa ndetse bakaba baduhereza naho kuruhukira igihe turushye.

Amahoteli n'amamoteri ni ingenzi cyane, aho usanga yakira umubare nyamwinshi w'abantu baba baje kugira ngo babone kuba baruhuka abandi bakire icyo kurya n'icyo kunywa, amahoteli adufasha mu kwakira ba mukerarugendo, kuba yabahereza aho baryama, aho baruhukira ndetse no kuba babahereza icyo kurya no kunywa.

Amahoteli n'amamoteri aba yubatse neza. Aho usanga harimo aho bakirira abantu ndetse n'aho bashobora kubonera icyo kurya n'icyo kunywa. Ikindi kandi haba hari ubusitani bwiza bushobora gutuma abantu baruhuka ariko hakaba hari n'aho abantu bashobora kuba baryama, bakarushaho kumera neza.

Ibikoresho byo mu mahoteli n'amamoteli biba bisa neza cyane. Aho usanga nko mu cyumba abantu bararamo haba hateguye neza, ibikoresho birimo byose byuzuye isuku ku buryo bituma uharyamye aruhuka neza, bityo bikamufasha kuba yakomeza imirimo ye ...

Amahoteli n'amamoteli ni inyubako ziba zigaragara neza, aho usanga zubatse neza hari ahantu bakirira abantu bakaba babona icyo kurya n'icyo kunywa ariko kandi bakabona n'aho baruhukira bityo bakaba bakomeza akazi kabo bameze neza bishimye.

Amahoteli n'amamoteli ni ingenzi cyane, kubera yuko aya mahoteli ashobora kuba yakwakira abashyitsi bakabahereza icyo kurya n'icyo kunywa ndetse bakabahereza n'aho kuryama hafite umutekano, ku buryo umuntu yumva atuje.

Amahoteri n'amamoteri bakira abashyitsi neza. Aho usanga bashobora kubahereza aho kuryama hateguye neza ndetse hafite n'isuku. Ibyo bikabafasha kuruhuka, bakaba bakomeza imirimo yabo bameze neza.

Amahoteli n'amamoteri bigira uruhare runini cyane mu gutanga akazi ku bantu benshi. Aho bamwe bashobora kugira uruhare mu kuzubaka ndetse no kuzivugurura, bityo bakaba babona amafaranga. Abandi bakagira uruhare mu gutegura ubusitani bwaho ndetse no gukora amasuku.

Gucuruza imyenda bigira inyungu nyinshi kubera yuko abayicuruza baganwa n'abantu benshi batandukanye kugira ngo babone imyenda ibabereye ndetse banakunda yo kwambara.

Ubucuruzi ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Aho usanga abantu benshi bacuruza ibintu cyangwa se ibihingwa bimwe mu byo baba bihingiye. Harimo nk'ibirayi, ibijumba ndetse n'ibindi. Ibyo bituma babona amafaranga mu buryo bworoshye, bidasabye yuko bashaka akandi kazi cyangwa se bajya kuyakorera ahandi.

Ubucuruzi ni ingenzi cyane kubera yuko bigabanya ubushomeri aho abantu benshi bajya mu bucuruzi bagamije kujya babona inyungu, ikindi kandi ubucuruzi buzanira Leta amafaranga binyuze mu misoro kandi ikindi iyo abacuruzi ari benshi n'abaturage babona aho bahahira, imyenda inkweto ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Mu isoko hacuruzwa inkweto zitandukanye aho buri wese ashobora kuba yatoramo izo ashaka, yaba iz'abantu bakuru cyangwa se iz'abana. Izi nkweto kandi zishobora kuba zakwifashishwa nk'igihe umuntu ari mu masuku, cyangwa se ari mu mirimo igiye itandukanye.

Mu isoko abantu bacuruza bitandukanye. Aho usanga hari abacuruzi baba bafite aho bacururiza hahamye. Ariko kandi hari n'abandi bacuruza ibicuruzwa baba bafite mu ntoki ibindi babyikoreye, ariko muri rusange bose icyo baba bashaka ni ukugira ngo babone amafaranga.

Amasoko adufitiye umumaro munini cyane, aho dushobora kuba twagura buri kimwe cyose dukeneye harimo nk'amasuka, amasahani, ubukombe dushobora kuba twakwifashisha mu ngo zacu.

Amasoko y'imyenda atugirira umumaro munini cyane, aho tugurayo imyenda itandukanye yaba iyo dushobora kwifashisha igihe turi mu myitozo ngororamubiri ndetse n'iyindi, abayicuruza na bo kandi bashobora kuba babona ku mafaranga bakemuza ibibazo byabo bafite bitewe nuko babonye ababagurira.

Amasoko y'imbuto n'imboga ni ingenzi cyane kubera yuko bituma abaturage babigura biboroheye cyane, utabifite ashobora kuba yabigura hanyuma ubifite na we ashobora kandi kuba yabigurisha, bityo hakabaho imihahirane hagati y'abantu ndetse n'indwara zikagabanuka hagati y'abantu bakuru n'abana.

Isoko ni ingenzi mu buzima bwa muntu kubera yuko ashobora kuba yaganayo akagira ibyo agura cyangwa se akabigurisha, ikindi kandi ashobora kuba yabonerayo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse akaba yabonamo n'amafaranga yo kuba yakemura ibindi igihe hari ibyo yagurishijeyo.

Amasoko n'amaguriro ni ingenzi cyane, kubera yuko bituma abaturage babona aho bahahira ibyo bakeneye, ariko kandi bakaba babura n'aho bagurishiriza ibyo bashaka kugurisha kugira ngo babe babona amafaranga, yo gukemu ibibazo byo mu ngo zabo, cyangwa se ibindi bitandukanye.

Amasoko n'amaguriro bigira umumaro munini cyane ku baturage kubera yuko abaturage babonera ibyo bakeneye ku gihe ndetse bakaba babona n'aho bagurisha ibyo bashaka kugurisha kugira ngo babone amafaranga, ariko kandi bakabona n'aho bagura ibintu bitandukanye yaba ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara n'ibindi.

Ubucuruzi bubeshejeho benshi aho usanga abantu bacuruza ibintu bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibikoresho byo mu rugo. Ibyo byorohera abantu kuba babona aho bagurira ibyo bakeneye ariko kandi n'abacuruzi bakaba babona amafaranga bityo ubuzima bukarushaho kugenda neza.

Umwuga wo gutwara abagenzi ku mapikipiki, utungishije benshi. Aho usanga abatwara abo bagenzi, babona ku mafaranga bashobora kwifashisha bakemura ibibazo byabo bwite kandi bakaba banatanga n'umusoro kuri Leta, bityo Igihugu cyacu kirushaho gutera imbere.

Amagare ni ingenzi cyane kubera yuko adufasha mu ngendo zitandukanye, aho usanga abantu bamwe na bamwe, bakora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare, bityo bikaba byatuma babona ibyo bakeneye na bo ubwabo bagafata ku ifaranga.

Mu gihe cy'icyorezo cya Corona virus, abantu bafite umwuga wo gutwara abagenzi ku mapikipiki, bagombaga kuba bambaye agapfukamunwa neza, kimwe n'abagenzi ariko kandi hakifashishwa n'isabune yabugenewe kugira ngo barusheho kwirinda gukwirakwiza iyo ndwara.

Umwuga wo gutwara abagenzi ku mapikipiki ubeshejeho benshi kubera yuko usanga babona amafaranga yo gukemura ibibazo byabo bafite, bakarushaho gutera imbere. Si n'ibyo gusa kuko batanga umusoro kuri leta, igihugu kikarushaho gutera imbere.

Umwuga wo kumotara na wo ni mwiza cyane, aho usanga abantu benshi bashobora kuba babona akazi ko gutwara abagenzi, ikindi kandi abo nabo bashobora kuba batanga umusoro kuri Leta bityo ubukungu bw'igihugu bukarushaho gutera imbere.